Uburyo bukoreshwa na sosiyete ishinzwe gutanga ubwishingizi ahamanikwa ibyapa hagashyirwaho iyo sosiyete, n'uburyo wayibonamo uyikeneye.

Sosiyete ishinzwe ubwishingizi, aho yamamaza yerekana aho wabasanga na nomero wabahamagaraho ubakeneye.

Kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi aho abantu bazigama biteganyiriza ikizabagoboka kikabafasha mu izabukuru.

Uburyo bukoreshwa hamamazwa ikigo gishinzwe ubwishingizi, aho gishyiraho ibikiranga, uko gikora n'uko gifasha abakiriya bacyo n'uburyo bahamagara bakeneye.

Ubu ni uburyo bwo kwamamaza sosiyete ishinzwe kwishingira abantu, aho yerekana ibyo ikora, nk'ubufasha itanga.

Ubu ni buryo bukoreshwa bamamaza ubwishingizi berekana icyo buzafasha ababugana harimo kwishingira ibintu byabo.

Ubu ni uburyo bukoreshwa herekanwa uko ikigo gishinzwe ubwishingizi, gikora n'ibyo gitanga kubakiliya bakigana.

Uburyo bukoreshwa bamamaza ikigo gishinzwe ubwishingizi, aho hashyirwaho uburyo wababonaho ubashaka n'urubuga wabasangaho ubakeneye.

Uburyo bukoreshwa bamamaza ikigo cy'bwishingizi kibwira abakiririya bakigana uburyo bakoramo n'ibyo bagenda batanga bigiye bitandukanye naho bashobora kubasanga babakeneye.

Kwamamaza ibikorwa by'ubwishingizi bigiye bitandukanye, ahamanikwa icyapa kiriho imodoka yagize ikibazo.

Hirya no hino hagiye hari ibibuga byinshi bya basiketi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibuka ko siporo ari ingenzi nawe ushaka umwanya ujye ku kibuga widagadure kandi bizagufasha kudasaza imburagihe.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa na banke zigiye zitandukanye zo mu gihugu, aho batanga urubuga abaturage bazajya babonaho ubufasha bw'ibanze batagombeye kugerayo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa na za banke, aho batanga urubuga rw'ikoranabuhanga umuntu yakoreshwa muri telefone cyangwa mudasobwa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bwifashishwa na za banki, aho babihuza na telefone igendanwa, umukiriya akaba yabasha kubikoresha kuri telefone ye isanzwe.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga, bukoreshwa na banki, aho abantu bashyiramo urubuga rw'ikoranabuhanga muri telefoni zabo cyangwa mudasobwa, bagakurikirana ibikorwa bikorerwaho bibereye mu rugo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa na banki zigiye zitandukanye, aho zitanga urubuga rw'ikoranabuhanga, rukoreshwa n'ufite konti muri iyo banki.

Iduka ririmo umugore n'ibintu bigiye bitandukanye harimo umunzani wifashishwa hapimwa ibigiye gucuruwa bigiye bitandukanye.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo inkweto z'abagabo, amasakoshi y'abagore, n'amatelefone, n'amasaha ku giciro cyiza kinogeye buri wese.

Iduka ricuruza utuntu tugiye dutandukanye harimo imikomo n'amashaneta bambara mu ijosi abagore bagasa neza.

Aka ni agace gatuwe nk'uko bigaragazwa n'ibipangu bihari, hateye ipoto ririho insinga z'imikara kandi iri poto biragaragara ko rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace aha turahabona amapave aho iri poto rishinze, hari n'ibiti hakurya ndetse hari n'amabuye akikije izi ngo.

Iduka ricururizwamo imyambaro y'abagore igiye itandukanye, aharimo ibitenge bituruka mu bihugu bigiye binyuranye; bikadodwa neza ku buryo abagore babyambara bikababera.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye biri muri etajeri, hakaba harimo ibikapu, imyenda myiza wambara wasirimukana.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, n'ibyo guteka aho bihabwa abakiliya.

Iduka ricururizamo umugore ririmo ibintu bigiye bitandukanye harimo imifuka y'akawunga n'ikesi ya fanta.

Ubu ni uburyo bukoreshwa hagurishwa imodoka nshyashya aho berekana izina ryayo n'igihehe yakorewe n'amafaranga igurishwa.

Intebe z'ubwoko bwinshi butandukanye ameza ndetse n'utubati, hari utuba ushobora kubikamo amasahani yawe, hari utuba ushobora kubikamo imyenda ndetse n'utwo wabikamo ibikoresho byawe bigiye bitandukanye, sibyo gusa kandi ushobora kwifuza ibikoresho nk'ibi ukaba wakwibaza ngo nabikurahe? Ushobora kujya kuri murandasi yawe ukandikamo aho wakura ibikoresho nk'ibingibi bitandukanye uhita ubona nimero zabo ukabahamagara kandi babikugezaho byoroshye.

Ikigo gikora kikanacuruza ibinyabiziga bigiye bitandukanya by'amoko yose byaba ibitoya cyangwa ibinini, kigatanga n'ibihembo ku bakiriya bacyo.

Ikigo gicuruza kikanazana imodoka mu rwanda cyitwa aho umuntu azana inshyashya.

Ikigo gitunganya kikanakora imodoka nshyashya kigafasha abazifuza kuzigura bitabagoye mu buryo bworoheje.

Uruganda rukora rukanagurisha imodoka ahantu hagiye hatandukanye ku isi, rugatanga n'ibihembo ku bakiriya barwo bagura imodoka nyinshi.

Ahacururizwa imodoka zigiye zitandukanye, nshyashya, ziba zitarakandagira mu muhanda n'umunsi wa rimwe, aho umukiriya aza akayireba, yayishima akayishyura.

Ahatangirwa ibihembo bigiye bitandukanye ku bakiriya b'akagera, aho uguze imodoka nshya itarakandagira mu muhanda babihabwa.

Uburyo bukoreshwa n'inganda cyangwa abantu bagura ibinyabiziga bikazanwa mu gihugu barimo bitarakoreshwa bikiri bishyashya.

Amafaranga afunzwe neza mu buryo bwiza abarika ku buryo byorohera uyahawe kuyabara bitamugoye.

Ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro kiramenyesha abantu itariki ntarengwa yo kumenyesha no kwishyura avanse ya gatatu y'umusoro ku nyungu, uko ari mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri, aba ngaba barababwirwa kugira ngo batazarenza bakaba bacibwa ibihano. Uyu munsi ku itariki cumi n'ebyi z'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane, saa tatu n'iminota mirongo ine, kugeza saa tatu n'iminota mirongo itanu z'umugoroba, nibwo iryo tangazo ritanzwe.

Uburyo bukoreshwa bwo kwishyura amafaranga mu ntoki, aho bikorwa ari ukuvunjisha cyangwa kubitsa.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Inzu y'ubucuruzi bugezweho, irimo akabati gasa umweru gafite ububiko bugera kuri butanu bugiye butandukanye, buri bubiko bukaba burimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye

Ahacururizwa amata ya Mukamira, aho ashyirwa mu tuntu tugiye dutandukanye abikwamo, harimo ari mu dukarito dutoya n'utunini.

Uburyo bukoreshwa habika amata byizewe mu kabido ka litiro eshanu, gafunze neza kariho n'ikimenyetso cyerekana ko byujuje ubuzirantenge.

Ahari icyuma gikonjesha amata kugirango abikanywe umwimerere ntiyangirike hari n'ibindi bigiye bitandukanye birimo n'amandazi, amaji afunze neza.

Aya ni amata meza ari mu gikombe gifite isuku aho abikwa mu buryo bwizewe no mu cyuma cyabigenewe agakomeza akonje bikayarinda kwangirika.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa bugiye butandukanye harimo kubitsa, kugura amayinite ukoresheje telefoni igendanwa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa kugira ngo bufashe abakiriya kwishyura ibintu bigiye bitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga kuri terefone cyangwa mudasobwa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa umuntu yishyura ari ahantu hagiye hatandukanye akoresheje ikoranabuhanga, aho akoresha telefone cyangwa mudasobwa.

Uburyo bw'ikoranbuhanga bukoreshwa na emutiyeni, aho umuntu afata telefone ye igendanwa, agashyiramo urubuga rw'ikoranabuhanga rwayo, rumufasha kwishyura no kubitsa.

Urubuga rw'ikoranabuhanga bakoresha bashaka kwishyura, bakoresheje terefoni igendanwa cyangwa mudasobwa aho babona ibintu bigiye bitandukanye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa hifashishijwe terefone ngendanwa ahashyirwamo uburyo bwa banke cyangwa bwa MTN Mobile Money umuntu akaba yakishyura ntankomyi.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bufasha abantu, kuba bakishyura batavuye mu rugo, bajye gutonda umurongo kuri za banki, aho bakoresha telefone zabo ngendanwa.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa abantu bishyura ibintu baguze ku mbugankoranyambaga kugira ngo bibafashe kudatakaza igihe bajya kubizana.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bukoreshwa wishyura cyanga ugurisha, aho ahabwa sisiteme imufasha guhabwa amafaranga bimworoheye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa hishyurwa amafaranga aho ukoresha telefone igendanwa cyangwa mudasobwa ukabikora ukura amafaranga ku ikarita cyangwa ahandi wishyura.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa kugira ngo umuntu yishyure akoresheje terefoni igendanwa cyangwa mudasobwa aho ahabwa inyemezabwishyu yerekana amafaranga yishyuye.

Igipapuro gikoreshwa kigaragaza aho ikintu kiri, n'uburyo kingana n'amafaranga agikodeshwaho, n'agaciro gifite.

Igipapuro gikoreshwa na sosiyete imwe mu rwanda ishinzwe imisoro igiye itandukanye mu gihugu harimo n'iy'ubutaka, iy'abacuruzi.

Inkuru igaragaza abantu bari kwamamaza umukandida dogiteri Habineza furaka mu matora ya perezida w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Igipapuro gikoreshwa n'ikigo gishinzwe imisoro, gihabwa usora yerekana ko yasoze umusoro kugihembwe.

Igipapuro gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, aho kikwereka amafaranga uzasora ku mwaka cyangwa buri gihembwe.

Uburyo bwa leta bukoreshwa munyandiko binyuze kuri mudasobwa aho berekana uwasoze, icyo yasoreye, n'amafaranga yasoze.

igipapuro gihabwa umucuruzi ukorera mu gihugu cyemeza y'uko umucuruzi yasoze ku gihembwe kigirwa n'amezi atatu.

Iki ni igipapuro cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho gihabwa uwishyuye, hariho amafaranga atanze kumwaka cyangwa ku kwezi.

Igipapuro gikoreshwa herekanwa uko amafaranga yagiye asohoka ajyanwa mu mishinga igiye itandukanye harimo ayo banke zakase, ay'urugendo n'ay'itumanaho.

Uburyo bukoreshwa hahererekanywa amafaranga mu ntoki, aho bayavunja avuye mu bihugu bigiye bitandukanye ukazana ayo ukuye mu gihugu wari urimo bakaguha ayo mucyo ugiyemo.

uburyo bukoreshwa havunjwa amafaranga agatangwa mu ntoki, aho uyazanye ayazana maze nawe bakamuha ahwanye nayo.

Uburyo bw'ihererekanya amafaranga kubanyamahanga binjiye mugihugu aho batanga ayo bafite bakabaha ayomucyo binjiyemo.

Uburyo bw'ivunjwa ry'amafaranga agiye atandukanye aho umuturage afata amafaranga avanye mu gihugu kindi akayavungisha mu gihugu arimo.

Uburyo bw'ihererekanya amafaranga aho umuturage afata ayo avanye mu gihugu yari arimo agahabwa ayo mucyo yinjiyemo bitamugoye kandi byizewe.

Uburyo bukoreshwa bereka abanyamahanga uko amafaranga ari kugura n'uko ari kugurishwa, bigashyirwa ku ikarita yabugenewe.

Ikigo gikora ibijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga uko berekana amafaranga ari kugura nuko ari kugurishwa.

Uburyo bw'ihererekanya amafaranga muntoki, aho utanga ayo ufite bakaguha ayo ushaka, bitewe n'aho ugiye.

Ubu ni uburyo bukoreshwa havunjishwa amafaranga. Aho berekana igihugu, n'uko aha ari kugura, n'uko agurishwa, kugira ngo bifashe abakiriya babagana.

Aha ni aho berekanira uburyo bw' ivunjisha ku banyamahanga hashyirwaho ibiciro by' ibihugu byabyo.

Uburyo bukoreshwa havunjishwa amafaranga, aho uzanye amafaranga azana ayo mu gihugu avuyemo, bakamuha ayo mu gihugu yinjiyemo.

Aya ni amayero maganatanu, aho ahabwa umuntu uje kuyasaba, aho azana ay'igihugu avuyemo, agahabwa ay'igihugu yinjiyemo nta mbogamizi.

Ikigo gikora ibijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga. Aho bafata amafaranga ava mu bindi bihugu, bakayashyira hamwe, bakayaha abaje babagana bayakeneye.

U Rwanda rufite gahunda yo gukumira ibiza cyangwa ibyago bitari byaba niyo mpamvu rufite imodoka za kizimyamoto ziba ziri ku masitasiyo ya polisi kugira ngo ahabonetse ahari inkongi y'umuriro bihutire gutabara hakiri kare.

Ahantu bavunjishiriza amafaranga aho umuntu afata amafaranga avanye mu gihugu yari arimo agafata ayo mucyo yinjiyemo bitamugoye.

Sosiyete ikora ibijyanye no kuvunjisha amafaranga mu buryo bugiye butandukanye, aho uzanye amafaranga y'igihugu aturutsemo, ahabwa ay'ikindi gihugu yinjiyemo.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga bwo kuvunjisha, aho umuturage afata amafaranga ashaka akaza bakamuha ayo mu kindi gihugu ashaka.

Ahakorerwa ivunjishwa ry'amafaranga, aho umuturage afata ayo avanye mu gihugu avuyemo, agahabwa ayandi yo mu gihugu yinjiyemo.

Ibiro bikoreramo ibijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga y'abanyamahanga cyangwa ayo mu gihugu aho umuntu afata yazanye agahabwa ayahwanye naho agiye.

Ikigo gikora ibijyanye no kuvunjisha amafaranaga agiye atandukanye yo mubihugu, aho bafata ay'umuturage azanye bakamuha ajyanye n'aho ashaka kujya.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'amafaranga bwemewe n'amategeko, aho afata ayo azanye, avanye mu kindi gihugu bakamuha ayo mu gihugu yinjiyemo bitamugoye, bikamworohereza kubona ibyo ashaka mu gihugu arimo.

Aha ni ahantu rero bagufasha ku bintu bijyanye no kuvunja cyangwa kuvunjisha amafaranga. Nk'uko ubibona iki kiganza uri kubona n'icy'umudamu uri kuyamuha; nkurikije ukuntu mbibona ntago nabasha kubimenya, ariko ari gutanga amadolari yakira andi mafaranga.

Ibi n'ibikoresho byo munzu bikorwa mumbaho, harimo intebe zicaramo abantu babiri niz'umuntu umwe n'ameza.

Ibikoresho byo mu nzu bitegura ahantu hagasa neza harimo intebe nziza n'ameza n'utuyungirije dutoya bigashyirwa ahantu hagacya.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye n'ibikoresho byo mu nzu birimo intebe ameza hari n'imbaho bikorwamo.

Ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye. Harimo intebe zifunitse n' imyenda, n'ameza akoze mu mbaho, nziza zi...

Ibikoresho byo mu rugo bigiye bitandukanye, harimo ibyo muri salo n'ibyo mu gikoni, intebe, utubati twiza turiho etajeri.

Inyubako yifashishwa na ba mukerarugendo cyangwa abanyarwanda bari mu gihugu imbere bashaka aho baruhukira bakana banahafatira ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Inyubako irimo amacumbi agiye atandukanye aho abavuye hanze y'gihugu bashobora kuza bakuruhukira cyangwa abari mu gihugu.

Amazu agiye atandukanye y'amacumbi, aho abantu baza gufatira ibyo kunywa no kuruhura mu mutwe n'abanyamahanga bikabafasha kubona aho baruhukira.

Iyi ni inyubako irimo amacumbi y'abanyamahanga n'abanyagihugu aho bifashisha baruhukira igihe bavuye mu bindi bihugu baza mu Rwanda.

Inzu cyangwa inyubako ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo aho bogera n' aho bacumbika, abanyamahanga iyo bahageze bafata icyumba bakacyishyura.

Aha ni ahantu ba mukerarugendo cyangwa abanyamahanga n'abenegihugu bashobora gukoresha baruhuka hari amazi boga mo batagombeye kujya mu kivu.

Inyubako ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye aho abanyamahanga basaba ko bazayiruhukiramo mu gihe baje mu icyo gihugu.

Ikigo, gishinzwe, gutanga, ubwishingizi, ku baturege, aho bari hose, harimo, ibinyabiziga, amazu...

Ikigo cy'ubwishingizi aho gikorera n'ishami ryacyo, aho abantu bakigana bakeneye ubwishingizi bw'ibinyabiziga byabo cyangwa ubuzima.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi cy'ibinyabiziga cyangwa, inyubako aho bakirira abantu babasobanurira uko bakora n'ibyo batanga ku binyabiziga byagonzwe.

Ikigo cy'ubwishingizi gifasha abantu kubishyurira mu gihe bahuye n'ibibazo birimo gukora impanuka, gushya kw'inyubako no gufasha abageze mu za bukuru biteganyirije.

Ikigo cy'ubwishingizi gifasha abakigannye kubishyurira, mu gihe baba bahuye n'ibyago biri mu masezerano baba baragiranye.

Ikigo cy'ubwishingizi gitanga serivisi zigiye zitandukanye ku bakiriya bazo. Aho kibasobanurira ko iyo ukigannye kigufasha neza, mu gihe waba wahuye n'ikibazo cy'impanuka mu muhanda, cyangwa inzu yawe yahiye.

Sosiyete ishinzwe kwishingira abantu mu bintu byabo bigiye bitandukanye harimo imodoka, amazu, n'ubuzima bw'abantu.

Ibigo byikorera cyangwa ibya leta bifasha abaturage kuba bakiteza imbere biciye ku nguzanyo, aho bayihabwa bakagenda bakayibyaza umusaruro bakazagaruka bakishyura bashyizeho inyungu nkeya.

Impapuro mpeshamwenda cyangwa zerekana uwafashe ideni aho haba hakubiyemo ibikubiye mu byo yahawe n'uburyo azabyishyuramo n'ibyo azishyura.

Uburyo bukoreshwa hatangwa inguzanyo, kugira ngo umuturage abashe kuba yakiteza imbere akore ibyo ashaka azishyure mu gihe gitoya.

Iki ni ikigo gishinzwe gutanga amafaranga, no kuyabikira abaturage. Aho kibaha inguzanyo kugira ngo bayifashishe biteza imbere.

Ikigo cya banki gitanga amafaranga kubayakeneye aho bakigana bakeneye inguzanyo bakababwira ibisabwa n' uburyo yishyurwamo.

Ibikorwa bya banke bigiye bitandukanye birimo gutanga inguzanyo kubazishaka bagasobanurirwa nuburyo zikoreshwa nuko bazishyura

Sosiyete na leta ifasha abaturage kuba bakiteza imbere bakoresheje amabanki abegereye aho bahabwa inguzanyo bakazayishyura bongeyeho inyungu nkeya.

Aba ni abaturage bagiye batandukanye bakora imirimo yo kuboha udutebo twa kinyarwanda bakoresheje inguzanyo ya leta.

Mu kibuga cyigishirizwamo gutwara amapikipiki, umupolisi umwe azamuye ikiganza yereka mugenzi we uri hakurya. Hari utwaye ipikipiki uri kurebana n'uyu mupolisi.

Iki ni igipapuro cyuzuzwa n'umunyamuryango kugira ngo abone uko ahabwa inguzanyo bitewe n'iyo ashaka.

Abarwanashyaka b'ishyaka efuperi bafite amabendera mu ntoki barishimye cyane bigaragara ko bari kwamamaza umukandida wabo n'ishya ryabo, bafite amabendera afite amabara ibara ry'umutuku, ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu.

Iyi ni inyubako y'isoko icururizwamo ibintu bigiye binyuranye harimo ibyo kwambara n'ibyo kurya n'inkweto.

Iri ni isoko ricurururizwamo ibyo kurya bigiye bitandukanye birimo: inyanya, insenda nimboga z'ibyatsi.

Isoko ririmo urujya n'ururuza rw'abantu, abaje guhaha, n'abaje gucuruza ibintu bigiye bitandukanye, birimo imboga.

Isoko ryiza rijyanye n'icyerekezo ryubatse mu buryo bwa etaje, bihabwa abacuruzi ba rwiyemezamirimo kugira ngo barikoreremo biteze imbere.

Iri ni isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye birimo inkweto, imyenda n'amashuka byiza bigezweho.

Iri ni iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye birimo imyambaro inkweto n'ibyokurya aho na bike.

Iri ni iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye birimo imyambaro myiza y'abagore n'amakanzu maremare abarinda kwambara ubusa.

iri ni isoko rusange rihuriramo abantu benshi baturutse imihanda yose, aho baguriramo ibintu bigiye binyuranye birimo imyenda, ibyo kurya n'ibyo kwambara.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye birimo: ibitunguru, inyanya, kokombure n'ibindi bitekwa.

Aha ni ahacururizwa ibikoresho bya kinyarwanda harimo ibyo baboha n'ibyo babaza n'imyenda yo kwambara.

Iri ni isoko ricururizamo abantu bagiye batandukanye n'ibintu bigiye binyuranye harimo inyanya, imiteja n'amashu.

Iyi ni inyubako y'isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, ibifunze n'ibidafunze harimo imboga n'inyanya, intoryi, ibitunguru.

Isoko ricururizamo abacuruzi bagiye batandukanye harimo abacuruza ibituruka mu mazi nk'amafi atunganyije neza afite isuku.

Ikarita ya MTN, ihabwa umucuruzi hariho kode n'amazina by'ubucuruza kugira ngo bifashe ugura kwishyura bitamugoye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bukoreshwa hishyurwa ibintu bigiye bitandukanye, kuri emutiyeni mobayilo mani, aho ushobora kwishyura inyanya.

Aha ni ahaparikwa amamodoka aho tubona haparitse amamodoka menshi ari mu bwoko bumwe ,n'amamodoka y'imyeru ,inyuma yaho turabona amazu maremare dukunze kwita muri etage ,hari ibiti turahabona abagabo babiri basa nkaho umwe arimo arerereka mugenzi we ,ni ahantu ubona ko habugenewe mu guparika amamodoka hanazitiye ndetse ubona ko rwose ari umwanya wagenewe guparikwamo aya ma modoka y'ubwoko bumwe kandi asa ,ameze nk'aho ari nk'uruganda rukora amamodoka bakaza bakayaparika.

Ikarita ya MTN ihabwa umucuruzi iriho kode n'amazina bye kugira ngo byorohereze uwishyura adakaswe.

Akazu ka emutiyeni gakorerwamo imirimo igiye itandukanye irimo kubitsa, kubikura no kohereza, aho waba uri hose mu gihugu.

Umuturage uri guhabwa ibihembo n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe itumanaho cya emutiyeni mobayiro mani.

Ahatangirwa ibihembo bigiye bitandukanye bya emutiyeni bigahabwa abakiliya bayo bitwaye neza, aho batombora bakoresheje uruziga rwizengurutsa.

Akazu gakoreramo umukozi wa Emutoyeni utanga ubufasha bugiye butandukanye harimo kubika, kubikura, koherereza amafaranga.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara impande ye umusore uhetse igikapu cy'umutuku imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ushinzwe umutekano inyuma yabo inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi.

Ahari abakozi ba Emutiyeni, barimo abakobwa n'abagabo n'abasore, barimo basobanurira abantu uko ikora, bakababwira n'ibyiza byayo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye ku isi hose, aho bagura ibintu bakoresheje telefone zabo zigendanwa.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rugurirwaho ibintu bigiye bitandukanye aho umukiriya ashobora kukigura akagitumiza kiba mu kindi gihugu kiza mu gihugu arimo kikamugeraho bitamugoye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa abantu bahaha kumbuga nkoranyambaga, aho ushobora kubigura ukoresheje telefone igendanwa cyangwa mudasobwa.

Urubuga rw' ikoranabuhanga rwifashishwa mu guhaha ibintu bigiye bitandukanye abantu batavuye aho bari bakanabibagezaho bitabagoye n' imbuga nkoranyambaga wabashakiraho ubakeneye.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorerwaho ibijyanye no kugura no kugurisha ibintu bigiye bitandukanye aho harimo amaherena, imisatsi,..

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa abantu bahaha bakoresheje terefoni zabo cyangwa mudasobwa bikabageraho mu buryo bwizewe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorerwaho ibintu bijyanye no guhaha, aho abantu bagurira ibintu bitabagoye, baba bari hanze y'igihugu cyangwa mu icyo gihugu. Harimo inkweto.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwifashishwa hagurwa ibintu, biturutse mu kindi gihugu biza mu kindi, harimo amakanzu, inkweto, n'ibikabu.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa, n'abantu bagiye batandukanye bakoresheje terefoni ngendanwa, cyangwa mudasobwa bishyura cyangwa bahaha.

Uyu ni umumotari ukorera ikigo cya vuba vuba gishinzwe gutwara ibicuruzwa kikabigeza ku babitumije.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa abantu bagura batagombeye kuva murugo aho batumiza ikintu aho bari hose kikabageraho ntankomyi.

Sosiyete ifasha abantu kubagezaho ibintu bitabagoye babiguze ku ikoranabuhanga bakabibatwaza nta kiguzi babaciye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa bugiye butandukanye, kugira ngo bufashe abantu kugura ibyo bakeneye batavuye murugo, bakoresheje ikoranabuhanga.

Iyi ni inyubako irimo igaragazwa igikoni cyayo uko giteye nuko cyubatse aberekana n'aho iherereye ko ari muri kanombe m'umujyi wa kigali.

Ubu ni uburyo bukoreshwa bwerekana inyubako cyangwa ahantu h'ibintu birimo, kugira ngo bigurishwe cyangwa bikodeshwe.

Uburyo bwubatse bugezweho, aho abantu bakoresha boga cyangwa h'ubwiherero, umusarani wubatse neza ugezweho.

Iyi ni inzu ikoreramo ikigo kizwi cyane mu Rwanda mu gutanga ubwishingizi, gikoresha amabara y'umweru n'ubururu kandi gitanga ubwishingizi bw'ubuzima, si ubuzima gusa kandi batanga ubwishingizi ku bintu bigiye bitandukanye, imitungo mu gihe umuntu imitungo yahuye n'ikibazo cyangwa se ikinyabiziga cye cyahuye n'impanuka baramufasha kugirango yongere asubirane ibyo yahombye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa herekanwa ibicuruzwa birimo inzu igurishwa, uko imeze nuko iteye n'amafaranga igurishwa naho iherereye.

Ahari ibikorwa byiza nk'amazu, ubusitani bukodeshwa, cyangwa aho abantu baza kuruhukira mu gihe bumva bashaka kuruhura mu mutwe.

Uburyo bukoreshwa herekanwa ikintu cyangwa ibintu, biri ahantu runaka haba muri salo cyangwa ku bikuta.

Uburyo bwo kwamamaza hakoreshejwe imbugankoranyambaga, aho hashyirwaho ikigurishwa n'ahantu giherereye n'ibikigize.

Uburyo bukoreshwa hamamazwa ikintu cyangwa ibintu bigashyirwa ku ikarita yabugenewe, hagashyirwaho n'imbugankoranyambaga wasangaho nka nimero wabahamagaraho.

Inzu ikodeshwa, aho iherereye n'uburyo yubatsemo kugira ngo uyikodesha bimworohere kuyibona atahageze.

Ibikorwa byo kwamamaza amazu akodeshwa, aho bashyiraho uko angana n'uko ateye n'aho aherereye n'amafaranga yishyurwa.

Uburyo bukoreshwa herekanwa inzu ikodeshwa aho iherereye ibyomba bifite n'ubwogero n'amafaranga ku kwezi.

Ahacururizwa ibikoresho bya Kinyarwanda birimo imyenda ikoze mu bitenge byiza ikabikwa mu buryo bwizewe buyirinda kwangirika.

Iri ni iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo n'indabyo zikuze ziri mu mavaze n'izikiri ntoya zi muri etajeri.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, by'amoko yose harimo amazi, amata, amaji.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa aho abantu bicara bakaba bafata ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Uburyo bukoreshwa bahaha bintu bigiye bitandukanye aho biba bibitswe mu buryo bugezweho mu tuzu twabugenewe.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, birimo imyambaro y'abagabo n'iy'abagore, nk'imipira izwi ka tishati, n'imipira y'imbeho, n'amapantaro.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'ibikoresho bigiye bitandukanye aharirimo amatelefone, ibirahure bishyirwaho n'amatara.

Ni muri gare hari haparitse imodoka za kwasiteri zikoreshwa na ajanse ya sitela.

Ikarita itangwa n'ikigo gishinzwe ubuzima, minisiteri yacyo ikaguha agapapuro kanditseho imyirondoro yawe, ujyana kwa muganga bakakuvura.

Ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza, aho gifasha umuturage kumuha ikarita yabugenewe imufasha kwivuza.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda aho gifasha abaturage kwivuza bitabahenze mu buryo bworoshye.

Ikigo gishinzwe gufasha abaturage mu bujyanye n'ubuvuzi aho bishyura amafaranga makeye leta ikabongereraho andi bagahabwa ikarita y'ubwisungane mu kwivuza.

Ikigo gishinzwe gufasha abaturage, kubaha ubuvuzi, bakoresheje ubwisungane mu kwivuza.

Uburyo bukoreshwa mu gufasha abenegihugu kuba bagira ubuzima bwiza, bakoresheje ubwisungane mu kwivuza, ikarita bahabwa n'ikigo cyabigenewe.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima aho gifasha abaturage kuba bakivuza mu buryo budahenze kikabaha ikarita y'ubwisungane mu kwivuza.

Ikigo cy'ubwishingizi gishinzwe kwishingira abantu mu kwivuza aho bahabwa ikarita bajyana kwa muganga ikabafasha mu buryo bwo kwishyura.

Ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza aho bafasha abanyamuryango bacyo mu kwivuza mu gihe bamara igihe kinini mu bitaro bakaborohereza ku biciro.

Ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza, aho gitanga ubwishingizi ku muturage urwaye cyangwa urwaje bikamufasha kwivuza adasabwe amafaranga menshi.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho bishyura bakoresheje ikoranabuhanga ku byo bahashye, birimo inkweto, imyenda myiza cyane n'ibikoresho erekitironike.

Iduka ricururizwamo ibyo kurya bigiye binyuranye, birimo ibifunze mu mashashi n'ibidafunze biterwa mu murima, n'inyanya y'imiteja, pavuro.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibyo kunywa n'ibyo kurya n'amata afunze mu bikombe.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye biri mutwetajeri twinshi harimo ibyokunkwa inzoga n'amaji n'imigati na cyecye.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa bifunze mu dukombe no mu tubido, n'umuti w'amenyo.

Iduka ricururizwamo ibintu bigiye binyuranye harimo ibiri muri etajeri impande nimpande ibifunze muducupa ibyo kurya nibyo kunkwa.

Ni inzu itangirwamo serivisi, iruhande hari uturarabyo hagati hari gutambukamo umugabo wambaye ishati y'ubururu, hirya gato hari abicaye bigaragara ko bategereje kwakirwa.